Akabati k'icyuma karimo utubido twinshi dufite ibara ry'umweru, utu tukaba ari utubido turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Abahinzi benshi aho bari guhinga ku musozi ndetse batera ibiti kugira ngo isuri itazajyana ubwo butaka, barimo barakoresha n'imvaruganda kugira ngo bikure neza.

Akabati gafite ibara risa nka shokora karimo udukopo, turimo imirama y'imboga zitandukanye, harimo karoti, pavuro ndetse n'izindi.

Usanga mu Rwanda iyo abaturage bamaze gusarura ibigori, barekeramo ibiti byabyo, kugira ngo ni bahinga ibishyimbo bizazamukireho, ibi bituma badatakaza umwanya wabo bajya gushaka imihembezo mu mashyamba.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, ahetse ibomo y'umuhondo ndetse yambaye n'uturindantoki tumufasha kutanduzwa n'imiti ari gutera ibimera. Akaba ari gutera ibigori imiti kugira ngo yice ubukoko butandukanye bushobora kubyica.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imikara, aho bafite udusorori turimo imvaruganda, bakaba bari kuyishyira ku bigori kugira ngo bikure neza kandi bazabone umusaruro.

Ubuhinzi buteye imbere, usanga batera ku murongo kandi bagakoresha amapombo batera imyaka yabo imiti kugira ngo bice udusimba dushobora kuyirya bakagwa mu gihombo.

Ifumbire y'ivaruganda ni imwe mu ikomoka ku matungo, harimo nk'inka, ingurube, ihene, intama ndetse n'inkwavu, usanga iyi fumbire ari nziza, ituma imyaka yera neza kandi ishishe.

Ubuhinzi bw'imboga bwiganjemo amashu ni bwiza cyane, kubera ko butuma ababukora biteza imbere kandi n'abanyarwanda muri rusange bakabona ibyo kurya, bitabaye ngombwa ko babitumiza hanze y'igihugu.

Ifumbire mvaruganda ziri mu moko atandukanye harimo nka urea ndetse n'izindi, aho zifashishwa mu gutera imyaka cyangwa se kuyibagara bituma ikora neza igatanga umusaruro.

Igitiyo gisa umukara kiri kuyora ifumbire y'imvaruganda bifashisha mu buhinzi, ibi rero bisobanuye ko umuhinzi wese uhinga bya kijyambere aba azi uko bakoresha izi mvaruganda zitandukanye.

Icyumba kirimo utubati duteretsemo imiti itandukanye y'imyaka ndetse n'imirama umuntu yakwifashisha ahinga imbuto zitandukanye, ndetse n'imboga.

Ifumbire mvaruganda na yo ni ingenzi kubera ko ifasha abahinzi guhinga bakeza, bifashishije izi mvaruganda zose. Umusaruro uriyongera, bagasagurira n'amasoko.

Iyi ni inzu aho harimo utubati dufite ibara rya shokora, harimo n'imeza nini, muri utwo tubati hakaba harimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bukoresha imvaruganda ndetse n'imborera igihe barimo baratera imbuto cyangwa se barimo barabagara, ibi bituma igihingwa kera neza kigatanga umusaruro mwinshi.

Aba ni abaturage bamenye ibijyanye no guhinga ku murongo, kandi bakoresheje ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera; aho barimo barakoresha amasuka bacukura, bagashyirishamo ifumbire intoki, maze bagashyiramo imbuto zabo, bakarenzaho n'agataka.

Umugabo wahinze inyanya, akaba yaje kureba niba zeze cyangwa se ntacyo zirwaye. Bityo akaba yaje yitwaje ipompo irimo umuti kugira ngo azitere.

Mu nzu zitandukanye zigurisha imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, ndetse n'ibindi harimo nk'imirama y'imboga zitandukanye, usanga haba hakeye hafite isuku nyinshi.

Icyumba gicururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'iyindi miti yifashishwa mu kwica udukoko dutandukanye twibasira ibiribwa biba bihinze mu mirima, harimo nk'imboga, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye.

Akabati gafite ibara rya shokora karimo udukopo turimo imirama y'imbogarwatsi zitandukanye, harimo karoti pavulo ndetse n'izindi nyinshi.

Abahinzi b'abahanga usanga badashobora gusiga imvaruganda ndetse n'imborera mu gihe bari gutera imyaka yabo kubera ko bituma yera neza igatanga umusaruro ufatika.

Ubu ni ububiko, aho harimo ibiribwa bitandukanye, biri mu mifuka y'imyeru, y'icyatsi, ndetse n'ubururu. Harimo kandi akabati kanini k'icyuma, gapakiyemo ibintu byinshi bitandukanye.

Umugore wambaye ikote wunamye, aho ari gushyira imvaruganda ku giti cy'ikawa, ayizengurutsaho neza yitonze kugira ngo kizere neza kimuhe umusaruro mwinshi.

Icyumba gicururizamo umukozi wahuguriwe mu bijyanye n'ubuhinzi, aho aba afite imirama itandukanye y'imbuto ndetse n'imboga zitandukanye. Kandi agira inama abahinzi z'uko bahinga mu buryo bwa kijyambere.

Igihingwa cy'imyumbati ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu bitunze ingo nyinshi hano mu rwanda kubera ko kivamo ubugari ndetse ushobora no kuyirya uyigeretse ku bishyimbo.

Iyo abahinzi b'umwuga bamaze gushyira umurama mu dushashi maze ingemwe zigakura neza, usanga bazikura aho ziri bazijyana aho bagomba kuzitera kugira ngo zikomeze zere.

Ubuhinzi bw'ibirayi mu Rwanda bwateye imbere kuko buhingwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ibirayi usanga biribwa kandi n'abaturage benshi mu Rwanda banabikunda kurusha ibindi byose.

Mu Rwanda usanga ibishanga byinshi bitagipfushwa ubusa ahubwo bihingwamo ibihingwa bitandukanye, birimo ibigori. Kubera ko hari ibihingwa ngandurabukungu.

Igihingwa cy'ikawa cyahinzwe neza ku murongo, kigasasirwa kigashyirwaho ifumbire, maze bakagitera n'umuti kugira ngo wice udukoko dutandukanye dushobora kukirya, cyangwa se kucyangiza.

Umugabo wambaye agapira k'umweru n'ikoboyi, upfukamye mu murima, aho ari kureba imbuto yateye z'ibinyomoro, aho zigeze zikura kugira ngo arebe niba zenda kumuha umusaruro yifuza.

ubuhinzi bw'umuceri bumaze gutera imbere mu Gihugu cy'u Rwanda. Kubera ko usanga ibishanga byinshi bahingamo umuceri. Ibi rero byatumye Igihugu cy'u Rwanda cyiteza imbere mu biribwa.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza cyane, kandi usanga bukorwa mu bice bitandukanye byo mu Rwanda. By'umwihariko mu gice cy'Iburasirazuba usanga bahinga ibitoki bengamo umutobe.

Ni byiza ko uhinga bya kijyambere utera ku murongo kuko bituma weza neza kandi umusaruro ukaba mwinshi. Ibi rero ubigirwamo inama n'abahinzi b'umwuga babihuguriwe.

Mu Rwanda baciye ubuhinzi bucucitse. Aho wasangaga umuntu mu murima umwe yahinzemo amateke, ibijumba, ibigori, imyumbati, ariko ntihagire umusaruro bitanga Nyuma y'uko leta y'u Rwanda isobanuriye abaturage, ubu babicitseho bazi guhinga bya kijyambere.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bwiza kubera ko butuma ababukora babona amafaranga aturutse mu kuzigurisha, bityo bakiteza imbere, bakikemurira n'ibibazo byabo bya buri munsi harimo no kwishyura mituweli.

Umugabo wahinze igihingwa cy'inyanya none akaba ari kwishimira ukuntu zeze, ibi ngibi bikaba bituma n'abandi bamureberaho, bakagira umurava wo guhinga neza kandi bakurikije amabwiriza n'inama.

Iyo igihe kigeze usanga leta y'u Rwanda ishishikariza abanyarwanda kujya gufata ingemwe z'ibiti ahabugenewe cyangwa se ku cyicaro cyatangajwe kugira ngo bajye kubitera ku nkengero z'imirima yabo, bitume ikomera itatwarwa n'isuri.

Umuntu wahinze urutoki rukanga kwera, bitewe nuko atarebye ubutaka bwiza buberanye n'insina yari agiye guhinga aho hantu. Ahubwo bigatuma agwa mu gihombo kinini.

Iki ni igiti cyera urubuto rw'amapapayi ruryoha cyane, rukundwa n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari amapapayi yahiye kandi menshi ari ku giti kimwe.

Ubuhinzi bwa kijyambere buteye imbere, usanga butera imyaka ku murongo kandi usanga ari imyaka yose, harimo n'imyumbati na yo bayitera ku murongo bityo bigatanga umusaruro.

Urubuto rw'ipapayi usanga ari rwiza ku mubiri w'umuntu kubera ko rutuma igogora rigenda neza, kandi rigira na vitamine zifasha umubiri kumererwa neza ndetse no gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru, bari mu murima bahinzemo ibinyomoro, aho barimo baritegereza uburyo imbuto zabo ziri kwera neza zishishe.

Iyo uhinze neza usanga urutoki rwawe rwera neza rukera urutoki runini cyane bityo bikakungura n'amafaranga menshi, ariko ibi bisaba ko ukora cyane urutoki rwawe ukarukorera ugashyiramo n'ifumbire.

Ikarito ndetse n'icupa byegeranye, byose bikaba bivamo imiti y'amatungo yifashishwa mu kuyavura kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iryo karito n'icupa, bikaba bifite amabara ya oranje, umukara ndetse n'icyatsi.

Indobo nyinshi zigerekeranye zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hakaba yanditse amagambo nayo ari mu mabara y'umukara n'umweru.

Agacupa gafite ubuso bw'ibara ry'umweru kazengurukijeho agapapuro gashushanyijeho inka, hariho kandi akarango kari mu ibara ry'ubururu kanditseho amagambo asa nka zahabu.

Ubworozi bukomeye cyane harimo n'ubw'inkoko, kubera ko butanga umusaruro mwinshi cyane. Iyo woroye inkoko ziguterera amagi, kandi zigatanga n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufiya atandukanye harimo n'inkwavu ni bwiza. Kandi usanga bufasha ubukora kuko ashobora kubonamo amafaranga amufasha gukemura ibibazo bye bya buri munsi ndetse bikaba byamuha n'ibyo kurya.

Iyo wiyemeje korora inkoko bya kijyambere, ni byiza ko wegera veterineri akakugira inama z'uko ugomba kwita ku nkoko zawe kuko hari indwara nyinshi zitandukanye, zishobora gufata ayo matungo.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo magufi ndetse n'amaremare aho hari iri mu dukarito indi ikaba iri mu icupa ry'umukara, iyo miti kandi ikaba ifasha n'amatungo kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu, aho yiyemeje korora amatungo magufiya y'inkoko, yiganjemo amasake ndetse n'izindi zitera amagi, akaba arimo arazigaburira.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'igitenge, aho ari gutera insina ze azigemura kugira ngo zongere zimere neza kuko zari zaracitse bitewe n'impeshyi.

Aba ni abahinzi bari guhinga aho nyuma yo gutunganya umurima wabo bari gutera imbuto kugira ngo izamere neza. Bari gukoresha imvaruganda ndetse n'ifumbire y'imborera.

Guverinoma y'u Rwanda igira abaturage muri rusange inama yo kutubaka ahantu ku misozi, ku buhaname, bitewe nuko iyo imvura nyinshi iguye hashobora kunyerera bityo inzu zigasenyuka, ugasanga zitwaye n'ubuzima bw'abantu.

Umugore uri guhinga akaba ari kubagarira ibigori bye kugira ngo abikuremo ibyatsi bitandukanye bituma bitera neza, ibi ni byiza kubera ko bituma umusaruro wiyongera.

Umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'igitenge, aho ari mu murima we yahinze yateguye neza, arimo arateramo imbuto ye kugira ngo azeze.

Uyu ni umukobwa ukiri mutoya rwose ubona ko yiyeguriye ibintu bijyanye n'ubuhinzi, aho arimo arareba imboga yateye uburyo zakuze neza cyane, yitegura kuzijyana ku isoko.

Aba ni abantu batandukanye aho barimo baraganira ku bikorwa byerekeranye n'ubuhinzi, cyane cyane umuceri bahinga, muri kino gishanga. Ubona ko basaruye, hanyuma bagakuraho umuceri, bakawujyana gutunganyirizwa mu ruganda.

Umugabo w'umuhinzi wambaye agapira ndetse afite n'isuka, akaba ari guhinga mu murima we urimo imyumbati, ibijumba ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, akaba arimo arabibagara.

Abantu bari mu bihingwa bateye, bari kureba niba byeze cyangwa se udusimba twarabiriye kugira ngo babisimbuze batazagwa mu gihombo.

Mu Rwanda abaturage bajya bahurira hamwe, mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi bari kumwe n'abayobozi babo, maze bakikorera umuganda hanyuma bagatunganya imihanda itandukanye iba yaragiye yangizwa n'ibiza.

Umuntu wahinze urutoki ndetse n'ibigori, ari kuruhingamo arukorera neza kugira ngo rwere ashyiramo ifumbire bityo bimufashe kweza ibitoki byinshi kandi binini.

Aba ni abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, aho bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubereka uko bakora ubwatsi bw'amatungo kugira ngo iwabo mu rugo na bo bajye bayakora, bagaburire inka z'iwabo.

Abantu benshi batandukanye biganjemo igitsina gore, aho bari gupakira itaka mu dushashi tw'umukara, kugira ngo bashyiremo umurama, maze hazameremo ingemwe zitandukanye z'ibiti, kugira ngo bazitere.

Iyi ni gahunda yo gushishikariza Abanyarwanda muri rusange, gutera ibiti ahantu hose, kubera ko ari ingirakamaro, biduha umwuka duhumeka, bigakurura n'imvura, kandi bikarinda n'ubutaka gutwarwa n'amazi.

Nyuma yuko abana ndetse n'abandi bantu batandukanye mu gihugu bahawe amahugurwa y'uko iyo utemye igiti utera bibiri, ubu abantu bamenye akamaro ko gutera ibiti.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara, afite isuka, aho arimo araharura ku muhanda, ibi ni byiza kubera ko bituma ahantu hagira isuku n'abahagenda bakabona ko hasa neza.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara, aho barimo barahingira urutoki, bakuraho ibyana bidakenewe ahubwo bashyiraho ifumbire bakarenza aho itaka kugira ngo izo nsina zikure neza.

Abantu batandukanye higanjemo abagabo bafite amarozwari yifashisha mu kuhira imyaka. Bakaba bari kuhira ibihingwa byabo bahinze kugira ngo bitumagara.

Ababyeyi babiri bicaye kuri shitingi, aho barimo baragosora imyaka yabo, bakuramo imyanda ndetse n'utundi dusimba dutandukanye, dushobora kuyangiza mu gihe baba bayihunitse.

Aba ni abantu biganjemo abakuru n'abana, aho bateraniye ahantu hahinzwe imbuto z'amatunda. Bakaba baje kuzireba ngo barebe niba zareze cyangwa se hari uburwayi zifite.

Abantu benshi barimo barakora umuganda baharura imihanda kugira ngo bazajye bahanyura hatari mu bigunda, kubera ko iyo hari n'ibihuru hashobora kwihishamo inzoka ndetse n'ubundi busimba bujya kurya imyaka yabo.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'igitenge, afite isuka arimo arahinga inyuma ye hari umurima w'ibigori ubona ko weze ugejeje igihe cyo gusarurwa.

Umuntu wambaye umupira utukura ndetse n'ikabutura, aho afite isuka ari guhinga mu murima urimo urutoki, akaba yishimira ko yahinze urutoki rukamwerera agakuramo amafaranga.

Abantu bari mu murima wabo, aho bari guhinga batabira kubera ko ihinga ryageze, bakaba bashaka gutera imbuto zabo babitse, kugira ngo bazasarure umusaruro mwinshi.

Abahinzi b'ibigori, aho barimo baratunganya umusaruro wabo nyuma yo guhinga neza bakaba barejeje, none bakaba benda kubijyana ku isoko.

Nyuma yuko Koperative Ubumwe bamaze kweza, bishimira umusaruro babonye kubera ko ari wo bifuzaga, bakaba bavuga ko bazakuramo amafaranga menshi cyane.

Aya ni amasaka, aho bayasaruye maze bakayamanika ku rugo, kugira ngo akomeze yume neza, maze bazayasye bayakoremo igikoma cyangwa se n'ibindi bintu bikomoka ku masaka bitandukanye.

Iyo ibigori bivanywe mu murima bihita byerekezwa ku ruganda, aho babikoramo akawunga keza cyane, bakagashyira mu mifuka maze bakagafunga, bakakajyana ku isoko, abaturage bakabona ibyo barya.

Aha ni mu ruganda, aho uruganda nyuma yo gukora ibiribwa, rubipakira mu mifuka maze bakabishyira ahantu hamwe, kugeza igihe imodoka ije kubitwarira, ikagenda ibishyira abacuruzi batandukanye.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga umusaruro mwinshi cyane w'ibitoki, aho biba byavuye mu bice bitandukanye by'Igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bituma ibitoki bihenduka, abaturage bakabona ibyo barya.

Koperative Abisunze, nyuma yuko bejeje ibigori byabo, bishimiye umusaruro babonye, aho bavugagaga ko bashobora kuzakuramo amafaranga menshi cyane.

Abantu batatu harimo umugore umwe n'abagabo babiri, bakaba bari gushyira inyanya mu mifuka. Nyuma y'uko bahinze bakeza barishimira uburyo umusaruro wabo wabaye mwinshi.

Ku isoko uhasanga abacuruzi batandukanye baba bazanye impeke zitandukanye bagura mu baturage na bo bakazigurisha kugira ngo bunguke, haba harimo ibigori, soya, ibishyimbo, amasaka n'ibindi.

Mu Rwanda hari abaturage benshi bahinga igihingwa cy'ibirayi kandi usanga cyera neza kikabaha n'amafaranga kuko bagihinga ku buso bunini, rimwe na rimwe bisaba kubitera imiti kugira ngo babirwanye ubusimba bushobora kubirya.

Abahinzi benshi iyo bamaze kweza ibigori byabo, usanga badahita barandura ibiti by'ibigori, ahubwo babirekeramo kugira ngo nibahingamo ibishyimbo bizakurireho. Ibyo bikabafasha kutirirwa bajya gushaka ibiti byo guhembera mu mashyamba.

Mu Rwanda igihingwa cy'umuceri cyateye imbere kubera ko usanga ibishanga byose hirya no hino, biba biteyemo umuceri kandi ukera neza, bigatuma uboneka ku masoko ku giciro gito.

Usanga mu Rwanda imodoka zijya gutora imyaka mu ntara, haba mu Majyepfo, mu Majyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Maze zikabizana mu mujyi wa Kigali, aho haba hari abantu benshi barya bahashye.

Umugabo uri mu murima we yahinzemo inyanya, arimo arazisasira neza, azitera n'umuti kugira ngo azirinde udukoko dutandukanye dushobora kuzibasira, tukazirya, tukamutera igihombo.

Leta yashyizeho gahunda yo gushishikariza abaturage gutera ibiti ku nkengero z'imirima yabo kuko ibi bituma babona imbuto zo kurya, inkwi zo gucana kandi bakarinda n'ubutaka bwabo gutwarwa n'isuri.

Ubuhinzi bw'icyayi buteye imbere mu Rwanda, bitewe n'uko usanga gikundwa cyane, uretse kuba gikundwa n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, baragikunda ku buryo usanga tucyohereza no hanze.

Gutera ibiti no kubibungabunga ni byiza, kubera ko amashyamba ni bimwe mu bidufasha kubaho neza ndetse no guhumeka umwuka mwiza nk'abantu. Ni byiza rero ko tubibungabunga kugira ngo duhore tumeze neza.

Mu Rwanda baciye ibihuru usanga biba biri ku mihanda ya kaburimbo kubera ko bihanduza cyane kandi, bigatuma hihishamo n'ubunyamaswa bushobora kurya abantu mu gihe cya nijoro cyangwa se n'ibisambo bigenda nijoro bikaba byakirukiramo.

Abantu bakoze umushinga wo gutera ingemwe z'icyayi. Aho bari kureba uko zimeze kugira ngo bitegure kujya kuzigurisha, babone amafaranga.

Iyo uteye imbuto uba ugize neza kuko umubiri wawe urazikenera. By'umwihariko iyo uteye voka uba urinze ubutaka gutwarwa n'isuri.

Muri gahunda ya Leta yo kugira isuku ahantu hose, yiyemeje gukangurira abaturage gutera indabo ahantu hose ku mihanda, kugira ngo ubutaka bube busa neza kandi bikurure abashyitsi.

Ukigera ku isoko uhasanga imboga z'amoko menshi atandukanye, harimo: karoti, pavuro, intoryi, amashu, ndetse n'izindi nyinshi ushobora kwigurira ukazijyana mu rugo ukaba wazirya hamwe n'umuryango wawe.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, aho ari mu murima yahinzemo ibinyomoro, ari kureba niba byeze kugira ngo abijyane ku isoko maze abone inyungu yifuzaga.

Mu mboga zitandukanye ushobora gusanga ku isoko harimo n'amashu, aho iyo yamaze igihe kinini yabuze abaguzi ashobora kwangirika, bikaba byagusha umuhinzi mu gihombo.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, zirimo karoti ni bwiza kubera ko bituma haboneka umusaruro uhagije ku masoko, abaturage bakabona ibyo barya, bityo bakagira ubuzima bwiza kandi bagatera n'imbere.

Ubuhinzi bw'urusenda nabwo ni ingirakamaro kandi buteza imbere ubukora kubera ko abantu benshi bakunda urusenda, ndetse hari n'inganda nyinshi zirukoramo, zikaruvugurura mu buryo bwiza cyane.

Iki ni igiti cy'ipapayi aho usanga mu Rwanda gikunzwe n'abantu batari bakeya, bitewe n'uko urubuto rwacyo ruryoha cyane kandi rugira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu.

Ukigera mu isoko uhasanga imbuto zitandukanye kandi ziba zihendutse bitewe n'uko abanyarwanda bamenye kuzihinga, muri izo mbuto harimo inanasi imyembe ndetse n'izindi.

Iyo ugeze ku isoko wasanga imbuto zitandukanye, harimo karoti, ibitunguru imboga rwatsi, amashu, itnoryi ndetse n'izindi nyinshi zifashishwa n'abantu bazirya.

Akarima k'igikoni ni keza cyane kubera ko gafasha mu kurwanya igwingira gahingwaho imbuto ndetse n'imboga zitandukanye, harimo nka dodo, amashu, ibitunguru, pavuro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ukigera mu isoko uhasanga urujya n'uruza rw'abantu bamwe baje guhaha, abandi baje kugurisha ibicuruzwa byabo, usanga birimo imbuto nka dodo, ibitunguru, pavuro, imiteja ndetse n'izindi zitandukanye.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga imbuto zitandukanye zirimo: amaronji, amatunda, imyembe, inanasi, ibinyomoro wotameroni ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga ibiribwa bitandukanye birimo: amadegede, ibijumba, ubugari, imyumbati, ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu yahaha akajya kwitekera, akabaho neza.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hakaba hari ubusitani bunini, burimo ibiti by'indabyo, zisa umweru ndetse n'umutuku. Inyuma yayo kandi hari indi nzu.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga ibiribwa bitandukanye, byiganjemo imboga nk'inyanya, tungurusumu, amadegede ndetse n'izindi zitandukanye ziba zikenewe n'umubiri wa muntu.

Umugore wunamye wambaye imyenda y'ibitenge, aho ari mu murima we yahinzemo ibishyimbo, akaba arimo arasarura imiteja ngo age kwirira, ibi rero ni byiza kubera ko na yo igira intungamubiri ku buzima bwacu.

Iyo witegereje imisozi itandukanye hano mu Rwanda usanga yose ihinzeho ibiribwa bitandukanye birimo ibijumba, imyumbati, ibigori, ibirayi ndetse n'ibindi byinshi, ibi bituma mu Rwanda nta kibazo cy'inzara kihaba.

Abantu bahinze amashu, ahantu hanini cyane, akaba yareze, bakaba bari kuyasarura kugira ngo bayajyane ku isoko, maze na bo babone amafaranga avuye mu mirimo yabo.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, harimo nk'intoryi ni bwiza cyane kubera ko butuma ubukora yiteza imbere bityo n'abaturage bakabona ibyo barya bitabagoye.

Umuntu ucuruza ku isoko aho arimo arereka abaguzi amadegede afite agurisha. Na yo akaba ari bimwe mu bitunze Abanyarwanda kandi bakunda cyane.

Aba ni abahinzi bari mu murima wabo, uteyemo urubuto rw'ikinyomoro, aho bari kureba niba rweze cyangwa se rutarwaye, kugira ngo ,niba rurwaye bateremo imiti yica udukoko dutandukanye.

Urugo rwubakishije amatafari ahiye, ruriho n'amadirishya y'ibyuma bifite ibara ry'umukara, mo imbere harimo ubusitani burimo pasiparume ndetse n'ibiti bitandukanye birimo imikindo.

Aka ni agapaniye kariho uruboga rw'inyanya, aho rweze cyane rugasa umutuku, ubona ko ruryoheye akanwa, ibi rero ni byiza kuko bituma abaturage babona ibyo barya.

Mbere yo guhinga inyanya urabanza ugahumbika maze zamara kumera ukazigemura uzijyana mu murima ahabugenewe, ni byiza rero gukoresha ifumbire zitandukanye haba imborera n'imvaruganda kugira ngo zimere vuba kandi zitange umusaruro.

Abantu batandukanye biganjemo abagabo, aho barimo baritegereza ingemwe z'ibiti ahantu ziteretse, bamwe barimo barakuramo izo bari bujyane kugira ngo bajye kuzitera mu mirima yabo.

Umukobwa wambaye ijakete ya kakee aho afite ibinyomoro mu ntoki ze arimo arishimira umusaruro yabonye nyuma y'uko abihinze bimuvunnye, none akaba agiye kubigurisha akabona inyungu nyinshi cyane, ibyo akaba abishimira abamufashije mu gihe yari arimo akora ubu buhinzi.

Ubuhinzi bw'imboga harimo n'intoryi ni bwiza, kuko bufasha ababikora bya kinyamwuga kubona amafaranga, kandi bigatuma n'abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije.

Imboga zitandukanye zirimo karoti, imiteja, pavuro ndetse n'imbuto nka voka na pome n'imineke birambitse hasi ku gishashi aho bari kubicururiza ku isoko.

Inzu yubakishije amatafari ahiye bakaba bazanyemo umusaruro ukomoka ku mbuto. Muri izo mbuto hakaba harimo voka zipakiye mu tuntu twinshi cyane dusa umutuku, uyu musaruro akaba ari mwinshi.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, gishinze iruhande rw'umuhanda ahantu hari indabo zisa neza cyane, kikaba kiriho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umuntu wakoze umushinga wo guhinga urusenda, none akaba yarwejeje rwinshi, akaba arimo aritegura kurujyana ku isoko kugira ngo nawe akuremo inyungu.

Umugore wishimye cyane ari mu murima we yahinzemo imbuto z'amatunda, aho arimo yitegereza areba ukuntu agiye kuzakuramo amafaranga menshi, bitewe n'uko nawe yahinze akurikije inama.

Mu Rwanda usanga ubutaka abantu basigaye babuhinga neza cyane bitewe n'ubukangurambaga bwa Leta y'u Rwanda. Ibi rero bituma ibiryo bisigaye biboneka kandi bagasagurira n'amasoko.

Ukigera ku isoko uhasanga uruvange rw'imboga zitandukanye zirimo: dodo, karoti, ibitunguru, pavuro ndetse n'izindi nyinshi cyane, usanga abantu bazanye kugira ngo bagurishe.

Mu Rwanda usanga bagira abaturage kubaka uturima tw'igikoni, bitewe n'uko tuba duhinzemo imboga n'ibindi bintu bitandukanye, bishobora kwifashishwa mu kuzahura imibereho y'abana, bigatuma batagwingira.

Mu Rwanda badushishikariza kugira akarima k'igikoni aho buri muturage ashobora gutera imboga zitandukanye harimo n'ibitunguru, ibi bikamufasha kutajya yirirwa agura ibintu byose.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore aho bari gusarura imyaka bateye, irimo karoti kugira ngo bazijyane ku isoko babone amafaranga ndetse n'inyungu.

Abantu bahinze imiteja none bakaba bari kuyisarura kugira ngo bayerekeze ku isoko, maze bakuremo amafaranga nayo abafashe gukemura ibibazo byabo, bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, harimo n'ibinyomoro ni bwiza kandi butunga ababukora kubera ko babubonamo inyungu nyinshi cyane, ikindi ni byiza ku muryango mugari Nyarwanda kubera ko babona imbuto nziza.

Abantu babiri, bunamye ahantu bahinze imboga rwatsi kugira ngo barebe neza niba zirwaye cyangwa se zifite ikindi kibazo kugira ngo bazitere umuti.

Ku isoko uhasanga imbuto zitandukanye zirimo inanasi, kandi usanga ziryoshye cyane ku buryo abanyarwanda bakunda kuzigura, kandi bishimye batitaye ku giciro cyazo.

Aba ni abahinzi aho bari kuza gutwara ingemwe muri pipiniyeri kugira ngo bajye kuzitera mu mirima yabo, maze babone amafaranga menshi ahagije, ibi rero ni byiza kuko bituma ubutaka bukomera.

Iyo ugeze ku isoko uhasanga ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'ibikomoka ku mboga, harimo nk'inoryi, amadegede, tungurusumu, ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi rero bituma abaturage bakunda kuhahahira.

Urubuto rw'avoka ni rwiza cyane kubera ko rugira umumaro mu mubiri. Rutuma igogora rigenda neza, kandi rugira na vitamine nyinshi cyane, ku buryo iyo umubiri warubuze usanga ubura ibintu bimwe na bimwe.

Umugabo urimo uragaragaza igihingwa yahinze cy'urunyanya, aho yishimira kuba yararuhinze, agahitamo neza kubera ko rugira umusaruro kandi rukagira n'amafaranga menshi ku muntu waruhinze.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima we yateyemo ibigori, aho ari gukoresha uburyo bugezweho bwo kuhira akoresheje amarobine atanga amazi mu bice bitandukanye, kugira ngo imyaka yose ibone amazi.

Abantu bahinze igihingwa cy'ikawa, bakaba bari kukivomerera, kugira ngo kitumagara bitewe n'uko hari mu gihe cy'impeshyi, biba ari byiza kuvomerera imyaka yawe kugira ngo izere nawe ubone amafaranga ahagije.

Uyu ni umuhinzi wahinze amashu maze aramukundira arera cyane, none no mu gihe cy'izuba yahisemo gufata umupira w'amazi, arimo arayavomera kugira ngo akomeze amererwe neza, azabone amafaranga menshi.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bwifashishwa ikoranabuhanga mu kuhira iyo myaka. By'umwihariko hari utumashini twabugenewe dukura amazi mu gishanga tukayazana ku musozi maze bakuhira.

Aba ni abahinzi bakinyamwuga, aho bateye ku murongo imboga zabo, none bakaba bari kuzivomerera kugira ngo ziticwa n'umwuma, bitewe n'uko ari mu mpeshyi izuba ryaravuye cyane.

Aba ni abahinzi babigize umwuga, aho batera ku murongo bakurikije inama bahabwa n'abagoronome, aho bateye ibitunguru, bakaba bari kubyuhira bakoresheje umupira uzana amazi.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bukoresha uburyo butandukanye, mu kuhira imyaka, bityo ikera neza itishwe n'izuba. Haba no mu gihe k'impeshyi kubera ko amazi aba ari mu murima.

Ubuhinzi bw'umuceri burunguka bukagira n'umusaruro ariko buragora kubera ko busaba kubanza gutegura ubutaka, hakajyamo amazi menshi, ibyo rero bigatuma bivuna abahinzi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umukara, aho afite akamashini karimo karatera umuti ku bigori bye yihingiye kugira ngo arwanye ubukoko butandukanye bushobora kubirya.

Ubu ni ubutaka bunini cyane, aho hahinzeho igihingwa cy'ibigori. Hakaba hari kwifashishwa uburyo bwa kijyambere bwifashisha ikoranabuhanga bwo kuhira mu gihe k'izuba.

Umugabo wahinze imboga z'amashu, aho arimo arazivomerera mu gihe cy'izuba kugira ngo zimere neza. Ibi rero ni byiza kubera ko bituma umusaruro wiyongera.

Uyu ni umugabo uhetse ipompo, akaba yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha mu gihe ari gutera umuti mu muceri, ndetse n'iyindi myaka muri rusange.

Abantu bakunze guhinga mu gishanga usanga beza cyane bitewe n'uko haba hari amazi ari hagati y'imirima bityo ubutaka bwabo ntibukakare cyane, haba no mu gihe cy'izuba ryinshi.

Mu Rwanda usanga ibishanga byinshi hirya no hino, biba bihinzemo umuceri, ibi rero bituma tubona ibyorya, kubera ko nta butaka bugipfa ubusa, ahubwo bubyazwa umusaruro.

Mu Rwanda usanga ubutaka bunini bwarahariwe ubuhinzi, aho igihingwa cyiganje usanga ari ibijumba, imyumbati, ibirayi ndetse n'amateke. Ibi ni ukugira ngo abaturage babone ibyo kurya.

Ubuhinzi bwa kijyambere usanga butera ku murongo, ku buryo igihingwa hagati yacyo n'ikindi haba harimo umwanya uhagije kugira ngo bizabashe byose kubona ibibitunga bivuye mu butaka.

Ibishanga byinshi byo mu Rwanda, ubu biri gutunganywa kugira ngo bihingwe. n'ahadashobora guhingwa ubu bari kuhagira ibyanya nyaburanga, aho abantu bazajya baza gusura.

Mu Rwanda usanga hari igihingwa cya kawa cyane, aho hari inganda nyinshi cyane zitunganya umusaruro uturuka ku ikawa. Usanga izo nganda ziba zifite ibitanda byinshi, bashyiraho ikawa iseye, idaseye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi buteye imbere usanga buhinga ku murongo kandi bukurikije amabwiriza yose agenga ubuhinzi bahabwa n'ababihuguriwe cyangwa se babifitemo ubumenyi buhagije, ibi bituma haboneka umusaruro mwinshi ukenewe.

U Rwanda usanga ubutaka bwose bugomba guhingwaho nta na bumwe bugomba kwangizwa, kubera ko abaturage bakeneye ibyo kurya bihagije, kandi bagasagurira n'amasoko.

Abahinzi babihuguriwe bavuga ko iyo ugiye guhinga ubanza ugategura umurima neza, ugasekera n'ibindi bitandukanye kugira ngo imyaka ugiye kuhatera izere neza.

Aborozi batandukanye usanga ku nkengero z'imirima yabo batera urubingo bazifashisha bagaburira amatungo yabo igihe ruzaba rwakuze, ibi rero ni byiza kubera ko bituma inka zabo zibona ibyo zirya.

Ikibaya kitegeye gisa nk'aho ari urwuri baragiramo inka, hakurya hakaba hatuye amazu asakaje amategura kandi ayo mazu akaba ashaje.

Ahantu bahinze ibigori bikera bakabisarura hagasigaramo ibigorigori, aho byumagaye cyane bitegerejwe gukurwa mu murima kugira ngo wongere utunganwe maze bahingemo iyindi myaka.

Iyo woroye itungo rirerire nk'inka, ni byiza ko ubyitaho mu gihe ryarwaye ugashaka veterineri, kugira ngo na we arivure ritaba ryapfa ukagwa mu gihombo.

Ubworozi bw'amatungo harimo n'inka ni bwiza cyane kuko bufasha ababukora kwiteza imbere, kubona amata yo guha abana ndetse n'ibindi bitandukanye.

Itsinda ry'abantu barimo umugabo ndetse n'abagore batandukanye. Bakaba bose bateruye inkwavu, bigaragara ko ari umushinga wiyemeje koroza aba baturage inkwavu.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo n'ingurube, ni bwiza kubera ko bufasha ababukora kwiteza imbere, ndetse no kwikemurira utubazo bahura natwo twa buri munsi, harimo nko kugurira abana ibikoresho by'ishuri, ndetse no kwishyura mituweli.

Amatungo magufiya arimo ihene, inka ndetse n'ayandi, niyo abaturage bo mu Rwanda bakunze gutunga kubera ko agira umusaruro mwinshi cyane harimo nk'amata, amagi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aboroye amatungo magufiya nk'ingurube, usanga bishimira ko abafasha kwikenura ndetse no kwiyishyurira mituweli n'ibindi bibazo bitandukanye, birimo nko kwishyura minerivare y'abana.

Iri ni itungo ry'inka, aho ryambaye ikiziriko mu ijosi ndetse n'iherena ry'umuhondo ku gutwi, ibi ngibi ni byiza kubera ko bituma babasha kuritandukanya n'ayandi matungo.

Ihene ebyiri ziri ahantu hari ubwatsi butoshye cyane bakaba bazihaziritse kugira ngo ziharishe, bikaba ari ibintu by'ingenzi gutunga amatungo magufiya kubera ko afasha abantu.

Iyi ni inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, aho iri mu kiraro irimo irarisha mu Rwanda bazanye gahunda yo kororera mu biraro, aho nta nka yemerewe kuragirwa ku gasozi bitewe nuko ahantu henshi hasigaye hahingwa.

Izindi ngurube eshatu ziryamye mu kiraro, aho nyirazo yazubakiye ikiraro kiyiza gituma zidacika kandi ziticwa n'izuba. Bikaba ari byiza kubera ko bimufasha kwiteza imbere ndetse na we akaba yakikemurira ibibazo bitandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu aho afashe inka ari kuyitera urushinge, ayirinda indwara zitandukanye zishobora kuyangiriza ubuzima, bityo nawe akaba yagwa mu gihombo.

Ubworozi bw’ingurube ni bwiza kuko butanga umusaruro. Iyo urebye neza, usanga ingurube imwe, waguze amafaranga atari menshi, ishobora kubyara ibyana byinshi. Bityo, byakura bikaguha amafaranga yikubye ayo waguze nyina.

Korora amatungo magufiya nk'inkoko ni byiza kubera ko bitanga ibikomoka ku matungo nk'amagi afasha abana gukura neza; ntibagwingire kandi bakagira n'ubwenge n'igihagararo.

Ubworozi bw'inkoko nabwo bugirira akamaro ababukora kubera ko bubafasha kwiteza imbere ndetse no kwikemurira ibibazo bigiye bitandukanye bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi, hano haragaragara isake ndetse n'inkokokazi.

Iyo umuntu yoroye itungo rigufiya, riramugoboka iyo ageze mu kibazo. Uyu mugabo akaba ateruye ikibwana agiye kukigurisha kugira ngo amafaranga akuramo, ayifashishe yishyura mituweri ndetse yishyurira n'abana be minerivare y'ishuri.

Ingurube abantu benshi bararikunda bitewe n'uko rikura vuba, rikabyara ibyara byinshi kandi ugasanga bigira n'isoko, bityo bigatuma umworozi yunguka vuba.

Umugabo uhagaze aho ari kwerekana itungo rye rigufiya yiguriye kugira ngo rizamuteze imbere, nanagira ikibazo rizamugoboke kubera ko ari cyo ribereyeho.

Umugabo w'umworozi woroye amatungo yose, amagufi n'amaremare harimo: intama, inkoko n'inka. Arimo arayitaho, ayaha ubwatsi kugira ngo akomeze amererwe neza.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, harimo n'inkoko ni bwiza kubera ko bufasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kwikemurira ibibazo byabo bya buri munsi, harimo nko kwishyura minerivare.

Uyu ni umugore uri kumwe n'umwana we, aho bafite amatungo magufiya y'ihene, bakaba bari kuyerekana, bishimira ko banyuzwe no kuba bararagijwe aya matungo mato kuko azajya abafasha kwikemurira ibibazo byabo bya buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo, intama ni bwiza, kuko butuma umuntu yikemurira ibibazo bye bya buri munsi. Ni byiza rero ko Abanyarwanda by'umwihariko abatuye mu bice by'icyaro bakora uyu mushinga.

Iyi ni inka isa umukara n'umweru, aho iri mu kiraro cyayo irimo irarisha ubwatsi bayihaye kugira ngo imererwe neza, aha ni nyuma y'uko Leta y'u Rwanda yaciye kujyana amatungo hanze bitewe n'uko ibi ngibi bituma habaho kwangirika kw'ibidukikije.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ni bwiza, kubera ko butuma ubikora abona amafaranga amufasha gukemura ibibazo bye bya buri munsi, ndetse akaniteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ubworozi bw'amatungo magufiya burimo n'ingurube, ni bwiza kubera ko butuma ababukora biteza imbere, bakiyishyurira mituweri, bakishyura minerivari y'abana ndetse bakabagurira n'ibikoresho by'ishuri bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, ni ingenzi kuri buri Munyarwanda wese. Ariko ni byiza ko uba ufite ibiryo bihagije, kugira ngo ayo matungo aticwa n'inzara, akaba yaguhombera.

Abantu baje kwitegereza amatungo yabo uko ameze, aho yubakiye neza cyane, ikiraro cya kijyambere ndetse bakayubakira n'aho arira.

Ubworozi bw'inkoko za kizungu ni bwiza, kubera ko zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama, ibi bigatuma ababukora babona amafaranga menshi.

Ubworozi bw'amatungo magufiya harimo nk'ihene, ni bwiza kubera ko butuma umuntu yiteza imbere akiyishyurira ibibazo bitandukanye, harimo n'ubwishingizi mu kwivuza mituweli.

Abayobozi baturutse ku rwego rw'umurenge baje gusura umuturage wagaragaje ko azi korora neza, bakaba baje kumusaba kuzajya kuganiriza abandi baturage, kugira ngo ababwire uko abigenza na bo bamwigireho.

Ubworozi bw'amatungo magufiya arimo ingurube ,ni ingenzi ku baturage b'u Rwanda kubera ko abafasha gukemura ibibazo bya buri munsi, harimo nko kwiyishyurira mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ndetse n' amaremare ni bwiza kubera ko butuma umuryango ubona ibikomoka ku matungo nk'amata, amagi, ndetse n'inyama muri rusange, ikindi kandi bituma umuntu yiteza imbere akanikemurira utubazo ahura na two twa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo y'ingurube ni bwiza kubera ko zibyara vuba kandi ibyana bigakura vuba bikazana amafaranga, ibyo rero bituma abaturage benshi bakunda kuzorora.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ni bwiza by'umwihariko nk'inkoko kubera ko usanga abana bakenera amagi akomoka ku nkoko kugira ngo birinde kugwingira.

Ubworozi bw'amatungo magufiya ndetse n'amanini bufasha cyane Abanyarwanda, kubera ko babona ibikomoka ku matungo nk'amata abafasha gutuma abana babo batagwingira.

Iyo woroye amatungo haba amagufi cyangwa amaremare, uba usabwa kuyashakira ubwatsi bwo kurya kugira ngo abeho neza. Cyangwa se ukaba ufite urwuri, ukayaragiramo kuko bituma na bwo amererwa neza.

Amatungo magufiya arimo ihene ni byiza ko abaturage bo mu Rwanda bayorora kubera ko bituma biteza imbere kandi bagakemura utubazo twabo twa buri munsi, harimo no kwiyishyurira menerivare ndetse na mituweri.

Aborora amatungo magufiya arimo ingurube, bavuga ko abafasha kwiteza imbere, kandi bakikemurira n'ibibazo bahura na byo, umunsi ku wundi. Umugabo n'umugore we n'umwana we, bari kwita ku ngurube bafite, kugira ngo izabahe umusaruro.

Mu karere kacu uyu munsi abaturage batumijwe maze bahabwa itungo ry'ingurube, aho baryorojwe kugira ngo na bo biteze imbere kandi bagire uyu muhate wo korora.

Aba ni abaturage bishimira kuba barorojwe inka y'inyana isa umukara, bakaba bavuga ko bazayifata neza bagakora ibyo bashoboye kugira ngo na bo ibagirire akamaro.

Hano hari abantu batatu barimo umugore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'abagabo babiri, bakaba bari kuganira ku matungo magufiya boroye y'inkwavu, aho bishimira ukuntu yororotse cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene burafasha cyane kuko butuma ababukora cyangwa se abaturage bagira ubuzima bwiza bakiteza imbere kandi bakikemurira n'ibibazo.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bwiza kuko bufasha abaturage muri rusange kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo byabo bya buri munsi. Hano ndahabona abagabo babiri ndetse n'umwana n'umugore, aho barimo barasuzuma amatungo yabo magufi niba atarwaye.

Ubworozi bw'amatungo maremare, ni bwiza kubera ko dukuraho ibikomoka kuri yo nk'amata, inyama ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi biduha n'ifumbire twifashisha mu guhinga imyaka yacu.

Iyo hari indwara zateye mu nka, usanga Leta ibitangaza bityo abaturage bakazana inka aho babwiwe kugira ngo bazitere urukingo kugira ngo zikire.

Nyuma y'uko umuhinzi ahinze igihingwa cy'inyanya kikera neza, akaba ategereje ko zose zitukura maze akazigeza ku isoko, maze na we agakuramo amafaranga menshi nk'uko abyifuza.

Abahinzi b'ibigori bavuga ko ari igihingwa kiza kubera ko kivamo akawunga, umuntu ashobora kurya nk'ubugari cyangwa akanywamo igikoma. Ni byiza rero kubera ko bituma Abanyarwanda babona ibyo kurya.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye harimo dodo ndetse n'izindi usanga buteye imbere mu Rwanda kuko abantu bakunda kuzirya, kandi zigira intungamubiri zitandukanye kuko zifasha n'umubiri kumererwa neza.

Ubuhinzi bw'inyanya nabwo ni ingirakamaro ku banyarwanda by'umwihariko ababukora, kubera ko bubateza imbere bukabazanira inyungu nyinshi, ibi bituma n'igihugu muri rusange gitera imbere.

Ubuhinzi buteye imbere usanga bahinga ku murongo kandi mu binogo, ku buryo babasha gushyiramo ifumbire y'imvaruganda n'imborera ndetse n'imbuto, hanyuma bagasiba ibihingwa bikazera neza cyane.

Ubuhinzi bw'imboga harimo dodo, ndetse n'intoryi, ni bwiza cyane kuko bufasha ababukora kwiteza imbere, ndetse bikaba na byiza kuko basagurira abanyarwanda, ibyo kurya.

Imbuto zitandukanye ni zimwe mu zifitiye akamaro umubiri w'umuntu, kubera ko zituma ukora neza, ukaruhuka, igogora rikagenda neza, kandi ugasanga ziba zihendutse ku masoko.

Ubuhinzi bw'ibijumba ndetse n'ibindi nka byo, usanga ari bimwe mu by'ingenzi bitunze Abanyarwanda kubera ko bituma batabura ibyo kurya mu rugo, bashobora guha abana babo buri munsi.

Umugabo wahinze igihingwa cy'inyanya kikera neza, akaba arimo aracyekana n'ibyishimo byinshi, avuga ko n'izindi nizimara gutukura azahita azijyana ku isoko, akabonamo amafaranga.

Iyo ugeze mu gishanga usanga hari amazi menshi aba ari gutemba hagati y'imirima, ibi rero ni byiza kuko bituma iyi mirima itumagara mu gihe cy'izuba.

Uru ni rumwe mu ruboga abantu bakunda kurya ariko usanga na none hari abatazikunda bitewe n'uko ngo ziba zisa umutuku kandi zinarura. Ibi rero bigatuma zitajya zijyanwa ku isoko.

Umuntu wahinze inyanya maze akazisasira neza cyane, ibyo bigatuma zikura zishishe kandi ubona ko zazanye uruyange, zizera inyanya nyinshi akazijyana ku isoko, na we akabona umusaruro.

Umuntu uri kwerekana ibihingwa yahinze agaragaza uburyo bimaze kwera, akaba ashobora kubijyana ku isoko, na we akabonamo amafaranga. Ni byiza rero gukura amaboko mu mufuka umuntu agakora kuko bimutunga.

Ubworozi bw'amatungo manini ni bwiza ariko busaba kubwitaho cyane, kubera ko iyo warangaye zikarwara zishobora no kugupfana, bityo ukagwa mu gihombo gikomeye cyane.

Ubworozi bw'amatungo manini, usanga buteza imbere ababukora kubera ko abenshi babukora nk'umushinga w'igihe kirekire, aho baba bashaka gukama amata menshi ndetse n'inyama bagurisha ku masoko.

Umugabo wambaye isarubeti ya kake, akaba aragiye inka ze zigera kuri eshanu, akaba aziragiye mu rwuri ahantu hari ubwatsi bwiza butoshye neza.

Iyo inka imaze kuvuka hashize igihe gitoya, usanga bayikata amahembe kugira ngo atazayonka, bityo bigatuma ikura neza ikabyibuha.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu aho ari mu nzu yubakiye inkoko ze. Akaba ari ahantu akorera umushinga yororeyemo inkoko aho azigaburira, ibi bituma yiteza imbere akabona n'inyungu.

Abantu batandukanye, harimo umugabo wambaye itaburiya ya kake, n'abandi bambaye imyenda y'imituku n'undi wambaye umupira w'umweru, bari ku kiraro cy'inka, bakaba bari kuyiha umuti.

Ikiganza gifashe ikarito irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Hirya kandi hari akabati gakozwe mu mbaho karimo imiti itandukanye iri mu macupa.

Aha ni mu kiraro, aho harimo abagabo babiri, umwe yambaye isarubeti y'ubururu, undi yambaye isengeri y'umutuku, bakaba barimo baraca amahembe inka yari imaze gukura kugira ngo ikomeze ikure neza.

Abagabo babiri umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi yambaye ikote rya kake n'ipantaro y'umukara, bafashe inka aho bari kuyitera urushinge bayikingira indwara zitandukanye zishobora gutuma ipfa.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka ni bwiza kandi bugira umusaruro ku babukora kubera ko babona amata ndetse n'inyama, bityo bakaba bakiteza imbere kandi bakagaburira n'imiryango yabo.

Iyo umworozi arwajije itungo, ni byiza ko arishyira ku ruhande kugira ngo ritanduza ayandi, maze agahamagara veterineri wabyigiye akaza, akaripima akareba indwara rifite, maze akarivura.

Inkende, inguge ndetse n'utundi dusimba usanga tuba turi muri pariki y'Akagera kandi dukurura ba mukerarugendo ku buryo bituma bahora baza muri izi parike kutwitegereza.

Muri pariki zitandukanye hano mu Rwanda usanga harimo utunyamaswa twiza cyane, harimo nk'isha dukurura ba mukerarugendo, nabo bakazana amadovize u Rwanda rwifashisha mu kubaka ibikorwa remezo.

Mu biguruka tugira hano mu Rwanda harimo n'igikona. Akaba ari inyoni izwi cyane kuba imara imyaka myinshi, ikaba izwi ku ibara ry'umukara n'umweru. Aho abantu benshi bayikunda by'umwihariko abafana APR.

Ibitera cyangwa se inkende ni zimwe mu nyamaswa ziba muri pariki ya Nyungwe aho usanga zirira imbuto ndetse n'ibimera bitandukanye bimera muri iyo parike, ikindi usanga bikurura ba mukerarugendo cyane.

Aka ni akanyoni gafite amabara meza ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku aho gahagaze ku giti, izi nyoni zigaragara muri Parike ya Nyungwe aho harimo inyoni nyinshi zifite amabara meza cyane abereye ijisho.

Iyo ugeze muri Pariki y'Akagera uhasanga inyamaswa zirimo: inkende, inguge ndetse n'izindi, usanga zituje aho zirira imbuto ndetse n'ibimera. Ni byiza rero ko abakerarugendo baza kuzireba, bityo bigatuma n'igihugu cy'u Rwanda Kinjiza amadovize.

Iyo ugeze muri pariki y'Akagera, uhasanga utunyamaswa dutandukanye dushimishije, tuba dufite amabara menshi meza, aho dukurura ba mukerarugendo bagahora baza mu Rwanda kutwitegereza.

Iyo ugeze muri parike zo mu Rwanda, uhasanga inyamaswa zitandukanye, zirimo inguge, inkende ndetse n'izindi ziri mu bwoko bumwe, bituma rero abakerarugendo bifuza kuzireba bagahora baza.

Inyoni ni bimwe mu biguruka usanga bisa neza kuko biba bifite amabara meza cyane arimo umutuku, umukara, ubururu ndetse n'umuhondo.

Mu Rwanda abakora umwuga wo korora inzuki, bavuga ko ari nziza cyane kandi zigira umusaruro kubera ko zitanga ubuki bwiza kandi buhenda ku isoko.

Muri parike ya Nyungwe uhasanga inyamaswa nyinshi harimo n'inyoni zifite amabara meza cyane akurura ba mukerarugendo, ibi bituma bahora baza kuzireba bakazana amadovize.

Iyo ugeze muri parike ya Nyungwe uhasanga inyamaswa nyinshi zitandukanye zirimo inguge, inkende ndetse n'izindi, aho ziba mu mashyamba, zirya imbuto ndetse n'ibimera bitandukanye.

Mu Rwanda uhasanga utunyamaswa dutandukanye twibera muri pariki y'Akagera aho haba harimo n'inkende, izi rero zikaba zikunda kubana n'abantu mu bice bitandukanye, aho na ba mukerarugendo bazikunda.

Muri parike ya Nyungwe, usanga harimo inyoni z'amoko atandukanye, kandi zifite amabara meza, abereye ijisho. Muri ayo mabara, usanga harimo nk'icyatsi, ubururu, ndetse n'umutuku.

Mu bice bitandukanye hano mu Rwanda, usanga inkende ziba ziri mu biti, ziri kurya imyaka y'abaturage rimwe na rimwe zikajyana no mu mihanda, aho ibinyabiziga bishobora kuzigongera ugasanga birimo biratuma zangirika.

Imbwa yicaye ahantu mu twatsi, aho irimo irahagira, bisa nkaho imaze kwirukankana urukwavu ariko ikaba itabashije kurufata, ikaba ifite amabara y'igitaka ndetse n'umweru.

Muri parike y'Akagera uhasanga utunyamaswa dutandukanye nk'inkende, ibitera, ndetse n'inguge, aho ziba zicaye ziturije kandi ugasanga bamukerarugendo baraza kuzisura bagatanga amadovize.

Iyo ugeze muri parike y'Akagera uhasanga inyamaswa zitandukanye nziza cyane, iyo urebye inyoni zo ntago wahava kuko ziba zifite amabara meza, arabagirana, akurura amaso.

Amasha cyangwa se uduhene tw'ishyamba ni zimwe mu nyamaswa zigaragara muri pariki y'Akagera, aho ziba ziri ahabugenewe zirisha ku buryo zitahura n'inyamaswa z'inkazi.

Inyoni ifite amabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku, ndetse n'icyatsi, aho wayisanga muri parike y'u Rwanda yitwa Akagera.

Iyo ugeze muri parike y'Akagera, uhasanga inyamaswa nyinshi zifite amabara meza, abereye ijisho. Muri izo nyamaswa haba harimo n'ibiguruka nk'inyoni, aho usanga zifite amabara arimo umuhondo, umukara n'umutuku.

Muri parike y'akagera uhasanga inyamaswa nini cyane zitwa inzovu aho zikunda kugendera mu gikundi kandi zikagira amahoro ntago zijya ziyenza kereka iyo uzenderereje.

Mu Rwanda mu bice bitandukanye uhasanga utunyamaswa nk'inkende, aho tuba tubana n'abantu nta kintu tubatwaye, kubera ko nta mahane tugira. abantu na bo baratumenyereye bakaduha ibyo kurya, maze bakabana neza.

Inkende cyangwa se inguge ni tumwe mu tunyamaswa twibera muri Parike y'Akagera, aho usanga Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga badukunda, bityo bakajya bahora baza kudusura.

Muri Nyungwe uhasanga impara n'imparage ziba zifite amabara meza cyane ku buryo bikurura ba mukerarugendo, bakaza kuyareba buri gihe kandi bazanye amadovize, bityo u Rwanda rukayifashisha rwubaka ibikorwa remezo byiza.

Akanyoni gafite amabara y'umukara, ubururu n'umweru ndetse n'umutuku, gahagaze ku giti, aho kari mu ishyamba rya Nyungwe kuko hariho izi nyoni zikunze kuboneka, zikaba zigira amabara meza cyane.

Muri parike zo mu Rwanda usangamo impala n'imparage biba bifite amabara meza abereye amaso, aho bituma ba mukerarugendo bahora baza kuzireba.

Mu Rwanda cyane cyane muri Parike y'Akagera usanga hari inyoni zifite amabara meza cyane abereye ijisho ku buryo bituma ba mukerarugendo bakunda kuhaza kuzitegereza, ziba zifite amabara arimo umutuku, ubururu n'ayandi mabara atandukanye.